Ku mashuri ga pirimeri nago bagiraga ibibuga by'imikino, kugira ngo abanyeshuri baje baridagadura, hari imikino nka basikete abana barayikundaga cane.

Umushinga kwa Sakora na go gwatanze inkunga yo kubaka amashuri. Gakikijwe n'amashamba y'inturusu imbere y'ago mashuri hari indabyo nziza cane.

Ikigo ca kampaga ni ikigo c'icitegererezo giherereye mu murenge gwa Kinigi. Gifite amashuri meza cane, gafite isuku gasize amarangi, gifite kandi ubusitani buteguye neza.

Iyo ahantu hahuriraga abantu benshi nko kwa muganga ni ngombwa kugira isuku niyo mpamvu usangaga barubatse amaravabo kugira ngo buri wese aje arahanyura abanze akarabe intoki mu buryo bwo kwirinda indwara zandura.

Mu masaro gagezweho usangagamo abantu benshi bari gukora imisatsi, habaga harimo n'abahungu ndetse n'abakobwa babaga bambaye imyenda zisa kuko bahuje umwuga.

Abavuzi b'amatungo babitaga abaveterineri bavuraga inka bakazikingira ndetse n'agandi matungo gose gororerwaga mu rugo barayavuraga.

Abigaga kudoda babaga bafite imashini zabugenewe, ndetse na metero bifashishaga bari gupima abantu. Bigaga bambaye imyenda zabugenewe z'ibisarubeti.

Amahoteli na go gagiraga ibikoni bya kijambere bibaga birimo ibikoresho byabugenewe, harimo gaze n'amasafuriya. Abakozi bamwo bambaraga amataburiya g'umweru n'ingofero.

Hari abafundi bize ku zinga ibyuma, akaba ari go mwuga bakurikirana, bibaheshaga amafaranga menshi kuko muri iki gihe inyubako zikomeye zigomba kuba zirimo ibyuma.

Umwarimu mu ishuri abaga yambaye itaburiya. Ni we wenyine ubaga uhagaze. Ashiraga abanyeshuri mu matsinda kugira ngo isomo rye ryumvikane neza cane.

Mu gusoza amahugugwa, buri wese afataga igitabo cye yahuriwemo, ubundi mugafata ifoto y'urwibutso. Abagufi ni bo bajaga imbere abarebare bakaja inyuma kandi abari imbere bagaca bugufi.

Mu mashuri g'imyuga habagamo n'iryigishaga kudoda uyu mwuga gwitabirwaga n'abakobwa benshi ugereranyije n'abahungu, abari kugwiga bagomba kuba bafite ibikoresho bihagije birimo amamashini n'imyenda zo kugenda badoda.

Mu mashuri usangagamo isomo rya siyanse bigagamo guhanga udusha. Abana iyo bakurikiranye neza, iyo bageze hanze bamenyaga kwihangira imirimo.

Mu ma atoriye bigishirezagamo kudoda, usangagamo abanyeshuri baje kwiga. Babaga bafite amamashini gabo, ndetse na metero bapimishaga abakiriye bari kubafata ibipimo.

Ishuri ry'inshuke uribwirwaga n'uko urisangagamo ibikinisho bitandukanye by'amabara gose, ibara ry'ubururu iry'icyatsi, n'iry'umutuku ni amabaraa bana bakundaga cane.

Muma atoriye hari aho bigishaga gusana inkweto no gukora inshasha, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kubyiga, bakoraga inkweto zifunze n'izifunguye bitaga sandari.

Ubu inyubako zigezweho ni iz'ama etaje cane cane mu mujyi. Abafundi bagomba kuba bambaye imyenda z'ubwirinzi. bambaraga amajire ndetse n'ingofero zo kubarinda mu mutwe.

Udutebe two mu ishuri ry'incuke tubaga ari dutoya cane kandi dufite amabara gatandukanye. Akenshi usangaga ari amabara g'ibendera ry'igihugu: ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi, usangagamo n'ibindi bikinisho bishimishaga abana.

Umubaji wabigize umwuga agomba kuba afite ibikoresho bihagije, harimo urukero n'ibindi byinshi ibi bitumaga abona bakiriye benshi bazaga bamugana kuko babonaga ko nta burimanganyi agiraga.

Mu ishuri ry'imyuga usangagamo n'ababaji. Babaga bambaye imyenda zisi, babaga bafite kandi ibikoresho byabugenewe by'ububaji bakoreshaga.

Icyumba cyagenewe kwigirwamo ikoranabuhanga. Kirimo imashini nziza zishimishije. Kandi buri wese urimo afite imashini ye. Mbese icyumba kigomba kuba giteguwe muri ubu buryo. Kugira ngo buri wese yige neza, nta kibazo afite, atekanye.